Umugabo wambaye imyambaro y'umukara afite indangururamajwi imbere ye hicaye abandi bafite impapuro n'amakaramu bicaye munsi.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, kirimo abantu benshi barimo abagabo n'abagore, harimo abafite mudasobwa abandi bafite amatelefoni, bicaye mu ntebe zisa umweru n'umuhondo, iruhande rwabo hateretse amacupa.

Abantu bari mu cyumba cyiza gifite inkuta zisize amabara y'umweru, harimo n'ibyapa bisa ubururu, bifite ibendera ririmo amabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi, bicaye kandi ku ntebe bambaye imyambaro y'umuhondo n'ubururu.

Abantu bari mu nama harimo abagabo n'abagore bambaye imyambaro igiyeye itandukanye muri bo imbere yabo hari abafite za mudasobwa abandi bafite impapuro n'amakaye kandi hari n'amacupa y'amazi ari ku meza.

Abantu batatu harimo umugabo umwe wambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru handitseho ijambo rwanda hari n'umugore wambaye nawe imyambaro y'umukara n'umweru ndetse n'ushinzwe umutekano wambaye impuzankano isa n'ibara ry'ubururu bwijimye.

Abantu bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari abafite impapuro ndetse n'amakaramu, hari n'ufite mudasobwa imbere ye, hari ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Icyumba kinini gifite inkuta zisa umweru, gifite kandi intebe z'umukara n'ameza arambuyeho ibitambaro bifite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru, harimo abashinzwe umutekano bambaye imyambaro y'icyatsi ndetse ku ntugu hariho amabendera y'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bigaragara ko bari mu nama bakaba imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi y'inyange ndetse umwe muri bo hari agakombe kamuteretse imbere karimo ikawa.

Abantu bigaragara ko bari mu nama harimo abagore, ndetse n'abagabo bambaye imyambaro igiye itandukanye harimo abicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza ndetse harimo abafite impapuro ndetse n'amakaramu.

Urubyiruko bigaragara ko ruri mu nama rwambaye imyambaro isa iri mu ibara ry'ubururu, hariho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ryiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ndetse imbere yabo hari amacupa arimo amazi.

Umugore ufite imisatsi miremire, akaba yambaye umwambaro urimo imirongo y'umukara, ndetse n'umweru, ari kuvugira mu ndangururamajwi mu nama yateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu rwanda.

Ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda giherereye i Nyagatare hari umugabo urimo urasobanurira abantu ibigendanye n'iby'icyo kigo, afite insakazamajwi mu ntoki ze, yambaye imyambaro y'umukara n'umweru.

Abagabo batatu bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, ni icyumba gifite amabara meza harimo umweru ndetse n'ibara ry'ikigina. Abo bagabo imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa arimo amazi ndetse na mudasobwa.

Abaturage benshi bafite ihene bahagaze munsi yibendera ryigihugu cy'u Rwanda rifite amabara umuhondo icyatsi n'ubururu.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, gifite inkuta ziriho amabara y'umweru, hari abari gukora inama bicaye n'undi umwe uhagaze, imbere ye hari mudasobwa, inyuma ye kandi hari ibyapa biriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo n'abagore bari mu nama, imbere yabo hari indangururamajwi ndetse hari n'amacupa y'amazi, harimo abafite amakaramu mu ntoki zabo abandi basobikiranyije intoki zabo, abandi bicaye inyuma mu ntebe zisa nk'ivu.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama gifite intebe zisa umukara harimo abagabo benshi bari mu nama, imbere yabo hari impapuro n'amakaramu ndetse n'amacupa arimo amazi.

Abantu bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama bambaye imyambaro itandukanye harimo imyambaro y'umweru, ubururu umukara ndetse n'umutuku, hari kandi ushinzwe gufata amashusho uhagaze.

Abantu bari mu nama bicaye barebana harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere ya bamwe hari za mudasobwa, abandi bafite amakaramu imbere yabo hari n'impapuro ndetse hari n'amacupa y'amazi.

Abantu bari mu nama harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda igiye itandukanye hari n'abafata amashusho ndetse hari n'abari kuvuga ijambo mu ndangururamajwi imbere yabo hari za mudasobwa ndetse n'amazi ari mu macupa.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa arimo amazi ndetse hari na mudasobwa.

Icyumba kinini cyiza bigaragara ko kiri kuberamo inama harimo abagabo, n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza asa umutuku harimo abafite amakaramu n'impapuro, hari kandi n'icyuma gifata amashusho.

Abayobozi b'umujyi wa Kigali bari kuganira mu nama imbere yabo hari ibyuma bifata amashusho n'ibifata amajwi, hari ndetse n'imbere yabo hari ameza ariho amazi ndetse na za mudasobwa.

Icyumba gikorerwamo inama, gifite inkuta z'umweru, hari umugabo urimo wambaye umwambaro w'ubururu, ufite indangururamajwi, imbere ye hari abandi bahicaye b'abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari amacupa arimo amazi.

Umugabo wambaye umwambaro w'icyatsi uriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Akaba afite indangururamajwi iri mu ibara ry'umukara ku mpande ze hari abandi bantu benshi bicaye bambaye imyambaro y'umuhondo ndetse n'indi iri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, ni icyumba gifite intebe zifite ibara ry'umuhondo, kirimo abantu bambaye imyambaro isa, y'ubururu bwijimye, ishushanyijeho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, rifite amabara ubururu, umuhondo, icyatsi, muri bo hari uwambaye ingofero.

Umunara w'itumanaho ukoze mu byuma bigiye bigerekeranyije biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, munsi y'uwo munara hari amazu atatu bigaragara ko atuwemo n'abantu.

Imbonerahamwe y'ikigo gishinzwe gutanga serivisi ku rubuga rw'irembo hakoreshejwe ikoranabuhanga, irerekana uburyo umuntu ushaka gusaba icyangombwa agomba kubigenza, hariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Ikigo gishinzwe imiyoborere mu gihugu cy'u Rwanda, gifite ikirango kiri mu ibara ry' ubururu, umuhondo, icyatsi n'umweru, kiri gusobanura ibigendanye n'imiyoborere yacyo. Hasi hari n'imibare ushobora kubahamagaraho ugize ikibazo.

Umunara muremure ushinze mu butaka wubakishije amatafari ndetse n'ibyuma, hariho uruzitiro rukoze mu matafari ndetse n'urugi rusa icyatsi.

Abantu bicaye ku ntebe, muri bo harimo ufite mudasobwa harimo n'undi wambaye umwambaro w'ubururu wanditseho imbere amagambo y'umweru, akaba yambaye igikoresho gituma yumva indirimbo atabangamiye abandi.

Itangazo ry'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kerekana uburyo ndetse n'amakuru ajyanye n'uburyo bwo gutanga imisoro bikorera hakoreshejwe ikoranabuhanga, basobanura uburyo bikorwamo ndetse byandikishije amabara y'umweru ndetse n'ay'umuhondo.

Icyumba kinini kirimo ibiro bigiye bitandukanye gikozwe mu byuma ndetse n'ibirahuri hari n'inkuta kandi zisize ibara ry'umweru hari abakozi bicaye imbere yabo hari za mudasobwa.

Inyubako igaragara nk'ibiro hari akabati kariho impapuro zisa umweru zifatishijwe n'ubururu ndetse hari n'abantu bicaye imbere yabo hari mudasobwa.

Itangazo ry'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha kiri kwihanangiriza abantu ko bagomba kwitondera abatubuzi. Igihe umuntu aguhamagaye akubwira ko hari amafaranga yayobye ntuzamwumvire.

Abagabo babiri bicaye, umwe yambaye umwambaro w'umweru, undi yambaye umwambaro urimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara, imbere yabo hari mudasobwa y'umukara iri kumeza irambuyeho igitambaro cy'icyatsi, bicaye kandi munsi y'ihema risa umweru.

Itangazo ry'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, rimenyesha abantu ko habura iminsi ibiri kugira ngo igihe cyo kwishyura imisoro y'umwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane bigere.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo igiye icagaguye, hirya yawo hari ipikipiki iriho umugabo wambaye umwambaro w'umukara, ndetse n'undi w'umuhondo, afite n'ingofero ebyiri z'umutuku, hirya ye hari n'undi uhagaze uri kwitaba terefone.

Umunara muremure ufite ishusho y'uruziga ushinze mu butaka, ufite ibara ry'icyatsi, utuye mu miturire y'abaturage ahari amazu afite amabati ndetse hakaba hariho n'ikindi kintu K'ikizeru hejuru.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kiri kwerekana ko cyonjyereye ubushobozi bwo kuba wakora gahunda zawe wikoresheje murandasi.

Ikigo bita irembo gishinzwe korohereza abantu mu buryo bwo gushaka ibyangombwa hakoreshejwe ikoranabuhanga; biri kwerekana uburyo wakwishyura mituweli ukoresheje kode y'irembo ari yo akanyenyeri, icyenda, zeru, icyenda n' akadirishya.

Amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse no mu cyapa cy'ubururu gifite ubuso bw'umuhondo n'umubare kabiri bigaragara ko hari umuganga uri gutera urushinge mu kaboko k'umuntu, hakaba n'ikigaragaza ko habura iminsi ibiri kugira ngo ibyo ari gukora birangire.

Uburyo Irembo riri kwamamaza uko wajya ku mbuga nkoranyambaga zabo, hashushanyijeho kandi mudasobwa ndetse na terefoni, hariho amabara agiye atandukanye harimo umuhondo, umweru ndetse n'ubururu.

Itangazo rya Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo, rigaragaza umunsi mpuzamahanga w'umurimo wabaye ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ugaragaza umuganga, umwarimu, uwikorera, ndetse n'abakozi bakora ubwubatsi.

Intare yuriye igiti kiri ahagaragara nk' aho ari mu ishyamba, ahagenewe gukorerwa ubukerarugendo, bwo gusura igihugu cy'u Rwanda wirebera inyamaswa zigiye zitandukanye.

Itangazo ry'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, riburira abantu ko umunsi wa nyuma wo gusoreraho ari ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo bicaye ahantu hamwe bafite mudasobwa, abandi bafite terefone, hari n'uwambaye ingofero y'umutuku uri kureba muri mudasobwa, nundi wambaye imyambaro y'umukara n'ubururu umwegereye.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo bariga, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, bambaye impuzankano z'umweru n'umukara, bicaye bareba muri za mudasobwa.

Ahantu batangira ubufasha ku bigendanye no kubitsa no kubikuza no kohereza amafaranga mu bigo by'itumanaho bigiye bitandukanye, hicaye kandi umugabo, wambaye umwambaro w'umweru.

Umukobwa wicaye wambaye imyenda isa umuhondo, ufite imisatsi myinshi y'umukara, imbere ye hari icyapa kigaragaza banki, inyuma ye kandi hari ibindi byapa by'umuhondo n'umutuku, byerekana ibigo bishinzwe itumanaho.

Iminara miremire ishinze mu butaka, ikoze mu byuma bisa umweru n'ibisa umutuku bigiye bisobekeranyije, iyi minara ikaba ifite n'ibiziga biyiriho.

Umuntu wicaye ku ntebe imbere ye hateretse mudasobwa, bigaragara ko hari ubushakashatsi ari gukora, iyo mudasobwa ifite ibara ry'umukara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'imyeru, imbere yabo hari mudasobwa zisa umweru n'icyatsi bari kwiga ibigendanye no gushushanya amazu.

Itangazo ry'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kiri kwerekana ko igihe cyo kurangiza kwishyura imisoro ari ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Gifite amabara agiye atandukanye harimo ubururu, umuhondo n'umweru.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa bafite imisatsi iboshye, bambaye impuzankano z'umweru ndetse bakaba biga ibigendanye n'ikoranabuhanga.

Iduka ricururizamo ibigendanye na serivisi z'irembo, rifite umuryango uri mu ibara ry'umuhondo wanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ryanditseho irembo. Hari kandi aho bajugunya imyanda.

Umucuruzi w'kigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, uri munsi y'umutaka usa umuhondo, ari kumwe n'umuguzi, hirya ye hari ikinyabiziga gishinzwe gutwara ibintu gihagaze mu muhanda w'umukara.

Inyubako yubakishije amakaro, ifite ibara rijya gusa umuhondo werurutse, ikaba iriho indabo ndetse kandi igaragara nk'iy'ubucuruzi kuko mu igorofa ryo hasi bacururizamo nk'uko bigaragara.

Umuhanda w'umukara uri kugendwamo n'umukobwa wambaye imyambaro y'ubururu n'iy'umukara, hariho icyapa gikoze mu cyuma gifite ibara ry'ubururu n'ikirango kigaragaza ko ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange kigomba guhagarara abantu bakinjiramo cyangwa se bakavamo.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bari gutambuka bambaye imyambaro irimo amabara agiye atandukanye nk'umukara, ubururu, umuhondo n'umweru.

Umuhanda w'umukara impande yawo hari amapoto abiri ashinzwe gutwara insinga z'amashanyarazi, hari kandi icyapa ndetse hari n'indabo.

Inyubako ifite amagorofa atatu ikaba ifite ibirahuri bisa ibara ry'ubururu, hasi hari ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ndetse hahagaze n'ibinyabiziga by'umukara, umweru.

Ikigo giherereye ku Gisozi, mu mujyi wa Kigali gishinzwe kubika ndetse no kubikurizwamo amafaranga y'abaturage. Ahantu kiri kandi hari uruzitiro rukoze mu byuma bifite ibara ry'umutuku.

Ipironi rinini rikozwe mu byuma bigiye bisobekeranije, rishinzwe gutwara umuriro w'amashanyarazi mu baturage; Imbere yayo hari imashini izana uwo muriro.

Iminara ibiri, yubakishije ibyuma bigiyebisobekeranye, iri ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye, hari kandi n'ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru.

Abakozi bashinzwe gukora amashanyarazi bari mu kazi bambaye imyambaro y'ubururu ndetse n'ingofero z'akazi zifite ibara ry'umuhondo, abo bagabo ni batanu bane muri bo barahagaze undi yunamye ari gukora amashanyarazi.

Ipoto rishinzwe gutwara umuriro w'amashanyarazi rikoze mu cyuma, munsi yaryo hari amazu bigaragara ko ari amagorofa akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye mu bucuruzi n'ibindi.

Icyapa kiri kwerekana ikigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda giherereye i Remera, ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijemo amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ari mu ibara ry'umukara impande yayo hari umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga gitukura n'umuntu wambaye imyambaro y'umukara.

Ipoto rishinzwe gutwara amashanyarazi mu biceke bigiye bitandukanye, rikoze muri sima ndetse n'amabuye, munsi yaryo hari inzu zigaragara nk'aho ari iz'ubucuruzi.

Umuhanda w'umukara urimo umunyonzi wambaye imyambaro y'ubururu n'umukara, imbere hari ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda ndetse n'abantu bahagaze, hari n'ibiti byiza birebire hakaba n'umutaka usa umuhondo w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda.

Umuhanda w'umukara urimo umugabo wambaye imyambaro y'ubururu, hirya hari undi ushinzwe gukora amasuku mu muhanda hari kandi ibiti byiza bitoshye bisa icyatsi hari n'ipoto ry'amashanyarazi.

Icyapa kiriho ikigo gishinzwe imbaraga n'amashanyarazi mu Rwanda, giherereye gikondo kirimo amagambo yandikishije amabara y'umutuku ndetse n'andi yandikishije amabara y'umukara kandi yandikishije amabara y'umweru kandi harimo n'ibirango biri mu mabara atukura.

Umunara muremure ushinze ahantu hari ibyatsi ndetse n'imbuga ngari wubakishijwe ibyuma bigiye bisobekeranyije kandi bikomeye ukabukoreshwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi.

Umunyonzi uri kugendera mumuhanda w'umukara, wambaye imyambaro isa n'icunga rihishije, ruguru ye hari akapa kari muri mpande eshatu, ndetse n'akandi k'icyuma kari muri mpande enye, handitsemo amagambo y'umukara.

Ahantu hubatse neza hari amatafari ndetse n'amabati kugira ngo abantu baticwa n'izuba biragaragara ko ari kwa muganga aho bavurira amaso.

Inyubako yubakishije amabuye ndetse n'amatafari ahiye, ifite amabati asa ubururu ifite kandi amarangi asa umweru ndetse n'icyatsi.

Inzu nziza ifite inkuta zisize amabara yumukara n'umweru, hari kandi urugi rukoze mu mbaho rushushanyijeho akamenyetso kagaragaza ababana n'ubumuga.

Abarwayi bane baje kwivuza harimo umugabo umwe uri kwinjira ndetse n'undi uhagaze n'abandi bagore babiri, umwe yicaye ku ntebe ikoze mu biti n'ibyuma naho undi yicaye mu kagare kagewe abafite ubumuga.

Ibitaro byubatse neza bifite imbangukiragutabara ziri mu mabara y'umweru, umutuku zifite amatara arimo umutuku n'ubururu, hari kandi abarwayi bategereje kwakirwa barimo abicaye mu ntebe abandi bahagaze.

Ahantu hari ivuriro, hari ingunguru zirambitse hasi n'izihagaze zisa umutuku, hari n'abakozi bambaye imyambaro y'ubururu, n'undi uhagaze wambaye umwambaro w'umweru n'umukara, kandi harimo uwambaye n'agapfukamunwa.

Umugabo wicaye ku ntebe ikoze mu byuma ndetse n'imbaho ,yambaye umwambaro usa icyatsi n'undi w'umweru, imbere ye hari ibyatsi hari kandi inzu yubakishije amatafari ahiye ifite n'amabati y'umutuku.

Ibitaro biherereye i Masaka bigaragaramo abashyitsi b'abazungu ndetse n'abandi bashinzwe ubuvuzi muri ibyo bitaro bari kugenda babaganiriza ku bigendanye n'imikorere y'ibitaro.

Ibinyabiziga bihagaze aho bahagarika imodoka zaje ku bitaro, hari inbangukiragutabara ndetse n'ibindi binyabiziga bishinzwe gutwara abantu mu buryo bwite, harimo iby'umukara ndetse n'iby'ibara ry'umweru.

Inzu iri ruguru y'umuhanda ahantu hari ibyatsi ni inzu ifite ibara ry'umuhondo ikagira n'amabati asa umutuku, iyo nzu kandi yubakishije amabuye.

Abaganga bari kwa muganga mu cyumba kirimo amabara y'umweru bambaye imyambaro isa y'imyeru, bafite impapuro ndetse n'amakaramu, imbere yabo hari za mudasobwa, hari n'akabati karimo ibitabo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya n'inzugi by'ibyuma, hariho icyapa kigaragaza ko hari icyumba cyo gutegerererezamo, kiriho umubare kabiri, hirya hari umugabo uri ku idirishya wambaye ingofero.

Abaturage bigaragara ko bari kwa muganga bategereje kwivuza imbere yabo hari umuganga wambaye umwambaro w'akazi usa ubururu ndetse muri abo baturage harimo abagororwa babiri, harimo n'undi wambaye ingofero y'igikinga.

Abagororwa bambaye impuzankano zisa n'icunga rihishije bakaba bambaye n'udupfukamunwa, imbere yabo hateretse mudasobwa, inyuma yabo kandi hari umucungagereza wambaye impuzankano iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, nawe akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara.

Abantu babiri bigaragara ko bari ahaburanishirizwa umwe ni umugororwa undi bigaragara ko ari umuburanira ari kureba muri telefoni, yambaye imyambaro y'umweru n'umukara.

Abantu bari mu cyumba kiberamo inama, bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imyenda yumukara ndetse n'umweru, imbere yabo hari impapuro n'amakaramu hari n'icupa ry'amazi.

Umugore wogoshe umutwe wambaye amadarubindi, wambaye n'impuzankano z'abagororwa. Inyuma ye hari ushinzwe gereza wambaye impuzankano isa n'igitaka, ku kaboko ke hari n'ibendera ry'u Rwanda rifite amabara ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwerekana ingingo y'itegeko n'umurongo rishingiyeho, hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo, hari n'andi yandikishije ibara ry'umukara.

Abashinzwe umutekano b'igitsinagore, bafashe umugore umwe ucyekwaho ibyaha, bamujyanye kumuburanisha. Bambaye impuzankano z'umukara ziriho amabendera y'u Rwanda.

Umugore uri ahantu hari inkuta zifite amabara y'umweru yambaye amadarubindi, yambaye n'umwambaro ufite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Abantu bisa nk'aho bari mu nama higanjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye ku ntebe zibaje mu mbaho ndetse hariho n'ibyuma; imbere yabo kandi hari ibyo kunywa yaba amazi, ndetse n'imitobe igiye itandukanye.

Akabati gakozwe mu mbaho karimo ibikoresho bibikwaho amashusho ndetse n'indirimbo mu buryo bugezweho bipanze muri ako kabati bigerekeranye neza.

Abantu batatu harimo uwambaye impuzankano y'abagororwa n'abandi babiri bambaye impuzankano z'abacamanza bari kuganira. Bigaragara ko bagiye kuburanira uwambaye impuzankano z'abagororwa.

Icyapa cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'agatanu kiri mu mabara y'ubururu ndetse kirimo n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hariho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, n'umuhondo, ndetse n'icyatsi, bimanitse ku cyuma cya gereza ya Nyamagabe.

Abagabo bane b'abirabura barimo babiri bashinzwe umutekano bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye, umwe muri bo yambaye ingofero y'umukara abandi bagabo bo bambaye imye imyambaro y'umukara.

Ikigo gishinzwe umutekano w'ibintu n'abantu mu Rwanda giherereye i Remera hariho abashinzwe umutekano babiri bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye ndetse bafite n'intwaro mu ntoki.

Abashinzwe umutekano bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye n'ingofero, bambaye kandi n'inkweto zisa umukara, bafite n'intwaro mu ntoki zabo, inyuma yabo hari ibinyabiziga.

Abashinzwe umutekano wo mu muhanda bambaye impuzankano z'umukara bari mu kibuga cy'ibitaka ahari ibinyabiziga biri mu kizamini. Kimwe kirasa icyatsi n'umukara ikindi kirasa umweru n'umukara, hari n'ibindi byinshi biri ku mpande.

Ibizimya umuriro bibiri kimwe kiri mu mabara y'umutuku ikindi kiri mu mabara y'umweru ,bifashe ku nkingi z'umukara z'ahantu ,bigaragara ko hacururizwa icyo kunywa, impande yabyo hari icyatsi kiri mu ibara ry'icyatsi.

Umukozi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, wambaye impuzankano zisa ubururu bwijimye, ari kumwe n'undi mugabo bari kugendana iruhande rw'umuhanda w'umukara, hirya yabo hari inzu y'amagorofa...

Umugore uri kumwe n'umugabo wambaye agakapu ko mu mugongo k'umutuku, imbere yabo hari ushinzwe umutekano wambaye impuzankano z'icyatsi ndetse n'inkweto z'umukara.

Umupira w'umukara urimo imirongo y'umweru igiye icagaguye, iruhande rwayo hari uruzitiro rukoze mu byuma bifite ibara ry'umweru, hari n'ikindi cyuma gishinze kiri mu ibara ry'umutuku gishinzwe kuzana amazi, hari n'inyubako iri yubakishije amatafari ahiye.

Ikigo gishinzwe umutekano giherereye ku Muhima, ahakorerwa ibizamini by'ikoranabuhanga ryo gutwara ibinyabiziga mu buryo bw'agateganyo, kikaba giherereye ku Muhima.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe cy'inkongi y'umuriro cyifashishwa kivuzimya, kikaba kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara kiriho n'agapapuro kari mu ibara ry'umweru n'umutuku gifashe ku ku rukuta rufite ibara ry'umweru.

Amabendera atandatu afite ibyuma, munsi y'ayo hari abantu benshi harimo abari gufata amashusho ndetse n'abandi bari kuganira.

Umugore wicaye ahagaragara nkaho ari mu biro, yambaye imyambaro y'umweru, afite n'umusatsi mwinshi wirabura, akaba afite urupapuro ndetse n'ikaramu, imbere ye kandi hari ibendera riri mu mabara umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ibendera ry'Ishyaka P,S, D. Rifite amabara atatu, iry'ubururu bwerurutse, iry'umweru ndetse n'iry' icyatsi kibisi.

Abana bishimye bari guhobera umugabo wambaye umwambaro ufite amabara y'ubururu, icyatsi ndetse bafite ibendera ririho amabara y'umuhondo umweru n'icyatsi, hari n'abandi bantu bari gufata amashusho.

Amahema atatu azirikanye, ariho umuyobozi uri kwiyamamaza wambaye imyambaro y'umukara n'umweru, inyuma yayo hari ibiti byiza ndetse na ruguru yabyo hari inyubako zifite ibisenge by'umutuku.

Abayobozi benshi bagiye batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu nteko Nshinga mategeko, imbere yabo hari abafite za mudasobwa, abandi bafite amakaramu n'impapuro, imbere yabo kandi hari amacupa arimo amazi.

Abayobozi bagiye batandukanye, bari mu gikorwa cyo kurahira, bafashe ku mabendera y'igihugu cy'u Rwanda, y'amabara agiye atandukanye, ubururu, umuhondo, nicyatsi.

Abakobwa batatu basutamye, bambaye imipira y'imyeru, bari kureba mu mpapuro zigaragara nkaho ari iziriho amajwi y'abayobozi yatowe.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho amazi ndetse n'indangururamajwi banafite ikaramu ndetse n'impapuro.

Abantu bari kugenda baganira harimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo bambaye imyenda isa n'ubururu ndetse n'umweru, harimo ufite igitabo kirimo urupapuro undi afite ikaramu.

Abagabo batatu bahagararanye umwe muri bo ari kuvugira mu cyuma ndangururamajwi afite urupapuro mu ntoki, inyuma ye hari abandi bicaye, barimo umugore wambaye amadarubindi yumukara.

Abantu benshi harimo abicaye ndetse n'abahagaze, inyuma yabo hari igiti kirekire, munsi y'icyo giti hari akazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe ibigendanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku ntebe y'umukara impande ye hari ibendera ririmo ikirangantego cy'u Rwanda imbere kandi hari indangururamajwi nyinshi zijye zitandukanye z'ibinyamakuru by'itangazamakuru bigiye bitandukanye.

Abagabo bane bameze nk'abari mu nama bateze amatwi, bakaba basa nk'abashajemo, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi, bicaye ku ntebe z'umukara.

Umukobwa wishimye uri guseka ufite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba yambaye amaherena asa ibara ry'umweru bigaragara ko ari kuganiriza abantu benshi bitewe n'uko afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugabo wambaye imyambaro y'umukara n'umweru yanditseho inyuma umubare cumi na karindwi, wicaye ku ntebe isa icyatsi ahagararanye n'undi wambaye imyambaro y'ubururu n'umweru, imbere ye hari mudasobwa hirya yabo hari umukobwa wambaye imyambaro y'umuhondo n'umukara.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda ishushanyijeho igisiga. Umugabo afite icumu ndetse n'ingabo bibaje mu giti, mu gihe umugore yambaye urugore.

Umugore wicaye ku ntebe y'umweru imbere ye harisakazamajwi y'umukara, yambaye imyambaro y'umukara n'umweru, afite ikayi ndetse n'ikaramu.

Umugabo ufite urupapuro mu ntoki wambaye imyambaro y'umweru n'ubururu iriho ibendera ry'u Rwanda riri mu mu mabara y'ubururu, umuhondo, n'icyatsi, inyuma ye hari ibitambaro nabyo biri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, iruhande rwe hahagaze undi mugabo.

Abagabo babiri, umwe w'umwirabura undi w'umuzungu, bari mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari impapuro n'amakaramu, ndetse n'amabendera y'ibihugu bigiye bitandukanye, hari ndetse n'amacupa arimo amazi.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara imicanga kiri mu muhanda w'umukara kikaba gisa umutuku, ruguru yacyo hari ibiti byiza biri mabara y'icyatsi kandi birebire.

Umuhanda w'umukara ukikijwe n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi, harimo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, gifite amabara y'umweru, umukara, umutuku, ndetse harimo n'ipikipiki.

Umuhanda w'umukara uri gucamo umunyonzi ndetse n'ikinyabiziga gitwara ibintu gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuzigo uri mu ibara ry'icyatsi, imbere hari umugabo uri gutambuka wambaye imyambaro y'umukara n'umweru.

Umuhanda w'umukara urimo amapikipiki abiri afite amabara y'umutuku, umuhondo numukara abayatwaye bambaye ingofero z'ubwirinzi zisa umuhondo, hari n'ikinyabiziga cy'umweru.

Umuhanda w'umukara urimo n'akayira k'abanyamaguru karimo umunyamaguru uri gutambuka, wambaye imyambaro y'ubururu n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu gisa icyatsi kirimo akabara k'umweru, harimo kandi ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibitwara ibintu, igitwara ibintu gifite ibara ry'umweru n'umutuku n'umukara hejuru hahagazeho umugabo.

Umuhanda urimo ipikipiki itwaye umukobwa, bambaye abayiho ingofero z'ubwirinzi zisa umutuku; ku mpande hari ibiti ndetse n'indabo zisa umuhondo.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo ikinyabiziga gitwara imicanga gisa umweru n'umukara, umutuku, umuhondo ndetse hari na sitasiyo ya risansi iri ku ruhande rw'umuhanda w'umukara.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda w'umukara gifite ibara ry'umweru n'utundituzu tugiye dushushanyijeho dufite ibara risa icyatsi. Ruguru yaryo, yayo, hari amapikipiki agera muri atatu, ndetse na nonene ruguru hari ikinyabiziga gitwara imizigo.

Umunyonzi wambaye imyambaro y'ubururu n'inkweto z'ubururu ahetse ibintu biri mu mufuka inyuma ye hakurikiwe n'ikinyabiziga gitwara ibintu gisa umweru.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo icagaguye y'umweru harimo kandi ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange gisa umweru hariho n'uturongo tw'icyatsi ndetse kikaba gifite n'ibara ry'umukara.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga gitwara ibintu, gifite ibara ry'umweru gitwikirije shitingi isa ibara ry'ivu, inyuma yayo hari umugabo uri gutambuka, ruguru hari uruzitiro rukozeze mu biti...

Umuhanda w'umukara bisa nkaho ushaje urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo igitwara abagenzi muburyo bwa rusangekiri mu ibara ry'ubururu hari n'ikindi gitwara imizigo kiri mu ibara ry'umweru kumpande hari n'ikindi cy'umukara gitwara abantu muburyo bwite.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bibiri harimo igitwara abantu mu buryo bwa rusange gisa umweru ndetse n'ikindi gisa nk'ivu gitwara abantu mu buryo bwite, uyu muhanda w'umukara urimo kandi ibimenyetso.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bisa umukara n'ibisa umweru, harimo kandi amapikipiki menshi ahagaze ategereje abagenzi, harimo imbere yaho ni inzu nziza ifite amagorofa atanu.

umuhanda w'umukara urimo imirongo ifite amabara y'umukara n'umweru, ndetse n'umurongo w'umuhondo uri hagati y'uwo muhanda, harimo kandi ushinzwe gutwara ipikipiki m'uburyo bw'umwuga hari n'ibiti byiza birebire.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo, kiri mu muhanda w'umukara, kikaba giherekejwe n'ipikipiki, ndetse n'umunyonzi uri ku kinyamitende. Iki kinyabiziga kandi gifite utugarurarumuri imbere, turi mu mabara y'umuhondo n'umukara.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo gifite imiryango ibiri. Gisa umweru ndetse n'ibara ry'umukara, hariho kandi shitingi isa ibara ry'icyatsi.

Umuhanda w'umukara, urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange, gisa umweru, kirimo umuyobozi wacyo, imbere hari umunyonzi, wambaye imyambaro y'umukara, n'umuhondo, n'ingofero y'umutuku.

Umuhanda w'umukara, urimo ikinyabiziga gitwara ibintu, gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo kandi n'abanyonzi benshi, ndetse n'abandi batwara amapikipiki.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo yaho abanyamaguru bambukira, harimo n'ikinyabiziga cy'umweru, n'icyatsi, n'umukara, ndetse hari n'ikindi cy'umukara, harimo n'abanyamaguru bari gutambuka.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari ibitwara ibintu biri mu mabara y'ubururu, ndetse hari n'amapikipiki atwaye abantu, hari n'abantu bahagaze bategereje kubona akazi.

Umuhanda w'umukara uririmo ibinyabiziga bitwara ibintu, harimo ikinyabiziga cy'umutuku gitwara imicanga, hakaba n'ikindi kinyabiziga cy'umuhondo gitwaye amagodora menshi, gitwikirije shitingi y'ubururu.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo ibitwara ibintu n'ibitwara abantu mu buryo bwite, hari n'abaturage bashaka kwambuka umuhanda.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu, gifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara ry'umuhondo, ahagana hasi gifite ibiziga bine, kikaba kiri mu muhanda wirabura.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cy'icyatsi n'umukara n'umuhondo gitwaye umucanga impande yacyo hari umuyonzi wambaye imyambaro y'ubururu n'umukara hirya kandi hari umugore wambaye imyambaro y'ubururu n'umukara.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bishinzwe gutwara ibintu ndetse ukaba urimo n'abanyonzi, umwe muri bo apakiye amabati yo kubakisha inyubako yambaye umupira w'umukara ndetse...

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga gitwara imicanga, kikaba gisa umutuku gifite n'andi mabara arimo umukara kandi gifite imiryango ibiri.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara imicanga gisa umutuku gifite n'amabara y'umukara n'umweru, hari kandi umunyonzi ufite igare ry'umukara rifite intebe y'ubururu.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange, bifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'icunga rihishije, harimo kandi umunyonzi utwaye ibintu biri mu mufuka, hari n'ikindi kinyabiziga gisa n'ifeza.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo gisa ibara ry'ubururu kiri mu muhanda w'umukara. Inyuma yacyo hari uruzitiro, inyuma y'uruzitiro hari ikindi kinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo myinshi kirimo kirashyirwamo imizigo.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ibitwara abantu mu buryo bwite ndetse n'igitwara ibintu gifite ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'umuhondo, Imbere yacyo hari n'umunyonzi.

Umuhanda w'umukara urimo indabo ndetse n'imikindo. Harimo kandi ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwite ndetse n'amapikipiki. Harimo n'umukozi ushinzwe kwita ku masuku y'umuhanda.

Umuhanda w'umukara uhagazemo ibinyabiziga biri kuruhande harimo ibisa ubururu n'umweru n'umuhondo ndetse n'ikindi gisa n'ivu hari n'umuyonzi ufite igare rifite intebe isa umweru, icyatsi n'umuhondo hari n'andi mapikipiki y'ibiziga bitatu.

Umuhanda w'umukara urimo ipikipiki ifite ibiziga bitatu, irimo uyitwaye wambaye imyambaro y'umukara, iruhande rwayo hari umunyonzi uhetse ibirayi biri mu mufuka, yambaye ingofero y'umutuku.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga kinini cyagenewe gutwara imicanga gifite amabara y'umweru, umukara n'umuhondo, imbere hari umunyonzi utwaye igare ririho umufuka w'umuhondo.

Ibinyabiziga bibiri bitwara imizigo biri kubisikana mumuhanda wumukara, bigaragara ko ntacyo bitwaye. Ruguru y'umuhanda hari ikindi kinyabiziga nacyo gishinzwe gutwara imizigo.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda w'umukara gifite amabara y'umukara n'umweru, kikaba gifite n'ingazi, iki kinyabiziga kandi gifite uruzitiro rukoze mu byuma bisa ibara ry'ubururu, kikaba gitwaye inka zigiye zitandukanye.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga gitwara ibintu kiri mu mabara y'umweru ndetse cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu kikaba gihetse amabati kikaba gifite inzugi ebyiri.

Ibinyabiziga bibiri biri kubisikanira mu muhanda w'umukara, kimwe n'icyagenewe gutwara ibintu byinshi gitwaye amagodora agerekeranye, ikindi kiri mu ibara ry'umweru nta kintu gitwaye.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo ibisa n'ifeza hari n'ibindi bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bifite amabara y'ubururu, umuhondo, umweru harimo kandi n'ipikipiki iriho umuntu wambaye umwambaro w'umweru.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bikurikiranye harimo; ikinyabiziga cy'ubururu gifite ibyuma hejuru by'umweru, inyuma hari n'ikindi kinyabiziga cy'umweru.

Ibinyabiziga bishinzwe kwigishirizwamo abantu gutwara ibinyabiziga, haruguru yabyo hari uruzitiro rukoze mu byatsi ndetse n'ibiti biri ruguru birebire.

Mu muhanda w'umukara wegeranye n'ikiraro, uwo muhanda w'umukara urimo amapikipiki abiri ahetse abantu, ndetse n'igare ririho umunyonzi n'uwo ahetse inyuma, ruguru y'umuhanda w'umukara hari ikinyabiziga gishinzwe gutwara imizigo.

Ahantu heza hari amagorofa menshi hari kandi utuzu dukoze mu mbaho n'ibyuma, hari naho bajugunya imyanda hari abantu bahicaye ndetse n'abandi bari gutambuka.

Ikibuga cy'imyidagaduro, ruguru yacyo hari abakozi bari kubaka amabuye ndetse na sima, bambaye imyenda y'akazi, harimo isa icyatsi ndetse n'abambaye isa ubururu.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru bambaye imyambaro igiye itandukanye, harimo abambaye isa n'ibara ry'umuhondo abandi umutuku, umukara, umweru ndetse kandi icyo kibuga gikikijwe n'uruzitiro rukoze mu nsinga.

Ikibuga kirambuye kirimo uruhande rurimo ibyatsi n'urundi ruhande rurimo itaka ku mpande zacyo hari ibiti bigiye bitandukanye.

Icyapa cyo mu muhanda, kigizwe n'umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'umubare mirongo itandatu, uri mu ibara ry'umukara, n'amagambo ya K na M n'agakoni kaberamye na H biri mu ibara ry'umukara.

Akapa ko mu muhanda kagizwe n' uruziga ruri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, mo imbere harimo kandi akamenyetso kajya imbere n'agakomeza iburyo kari mu ibara ry'umweru.

Akapa kerekana aho bazenguruka mu muhanda w'umukara, gakoze mu cyuma, ndetse gafite amabara y'umuhondo n'ay'umukara. Umuhanda w'umukara na wo urimo imirongo igiye ifite amabara nk'umweru umutuku ndetse n'umuhondo.

Akapa ko mu muhanda ka mpande eshatu, gafite amabara arimo umuzenguruko usa umutuku ndetse n'irindi bara ry'umukara ririmo hagati, rifite ikimenyetso cy'uko umuhanda ukomeza ufite indi iyishamikiyeho.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande enye izungurukijweho ibara ry'umukara, harimo n'indi shusho y'uruziga rw'umutuku rurimo ikinyabiziga cy'umukara.

Icyapa giherereye mu karere ka Gicumbi giha ikaze abantu bavuye mu gihugu cy'Ubugande, iruhande rwacyo hari imihanda y'umukara irimo ibinyabiziga byagenewe gutwara ibintu.

Akapa ko mu muhanda gakoze mu cyuma, hejuru hari umuzenguruko wampande eshatu uri mu ibara ry'umutuku ndetse hagati harimo akandi kamenyetso kari mu ibara ry'umukara.

Icyapa cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ku banyamaguru, kari mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda w'umukara, urimo imikindo ukikijwe.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana ko imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zitemerewe kuhaca, ni icyapa kiri mu muzenguruko w'umutuku kikaba kirimo ikinyabiziga gisa umukara.

Akapa ko mu muhanda kari mu ishusho y'uruziga rw'umutuku ruciyemo akarongo k'umutuku ndetse n'irindi bara ry'ubururu.

Icyapa gikoze mu cyuma, gifite ishusho ya kare iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'indi iri mu ibara ry'umweru, hagati harimo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Icyapa cyo mu muhanda gikozwe mu cyuma gifite akamenyetso kampande eshatu, karimo akandi kariho amatara y'umutuku n'umuhondo n'icyatsi, biri mu kaziga k'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpade enye ifite ibara ry'umweru, ndetse yandikishijwemo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, n'icyapa cyerekana ko ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange, bihagarara ku cyapa.

Umuhanda w'umukara uherereye i Kanombe, ku mpande zaho hagaragara imiturire igiye itandukanye, hari n'inzu igeretse ifite amabara y'umweru ndetse n'igisenge cy'amabati.

Umurima urimo ibigori ukaba ufite uruzitiro rukoze muri senyenge ndetse n'icyuma cy'umutuku, hirya hari imiturire igezweho, inzu nziza zifite ibisenge bitukura ndetse n'amabara agiye atandukanye.

Amazu meza agerekeranye ari ahantu hari umuhanda w'ibitaka, imbere y'igipangu cy'ayo mazu hari umuntu wambaye imyambaro y'umweru n'umukara.

Ahantu hagaragaza imiturire y'abaturage, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi, harimo umuhanda w'igitaka uri kugendamo umukobwa n'umuhungu, umukobwa afite igikapu yambaye, ndetse harimo n'ibinyabiziga ndetse n'amapikipiki.

Inyubako nziza igeretse iri impande y'umuhanda w'umukara, ifite amabara y'umukara n'ay'umweru kandi hari kwamamarizwaho inzoga.

Icyapa giherereye i Remera kiri mu mabara y'umutuku cyanditsemo amagambo y'umukara n' andi y'umweru byerekana ko bakora iminsi irindwi, amasaha makumyabiri n'ane.

Inyubako ndende cyane y'igorofa, yubakishije ibirahuri bisa icyatsi, ifite n'inkuta zisa umweru n'izindi zisa nk'ivu, imbere yaho hari ikinyabiziga gisa umukara ndetse n'amapikipiki ahetse ibikapu by'ubururu n'umutuku.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga by'amabara agiye atandukanye yiganjemo ay'umweru, iruhande rwayo kandi hari umugabo uhetse igikapu cy'umukara ndetse n'inyubako zifite amagorofa atatu.

Inyubako nziza igezweho yubatse ifite amagorofa menshi, ifite ibirahure bisa ubururu nibindi bisa icyatsi, hariho n'inkuta zisa umuhondo.

Ahantu bigaragara ko ari mu miturire yagenewe ubucuruzi, hari umuhanda ukoze mu mabuye urimo abanyamaguru ndetse n'abatwaye amapikipiki.

Inzu igaragara nkaho igezweho ni inzu nziza ifite amabara y'umukara n'umweru ifite uruzitiro rukoze muri sima ndetse ifite n'urugi rusa ibara ry'umukara.

Umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umuhondo, harimo amapikipiki n'abayatwaye bambaye ingofero z'ubwirinzi zisa umuhondo, harimo kandi n'ibinyabiziga bisa umweru byegeranye n'inzu ifite amagorofa ane.

Akabari k'ibyo kunywa, imbere yako hari ibinyabiziga bigera muri bitatu, harimo igisa nk'ibihu bifite ibirango bya a, a, c. magana inani mirongotanu.

Inyubako ikoreramo ibigo bigiye bitandukanye by'amabanki ndetse n'ubwishingizi, ikaba ifite amagorofa ane, ifite amabara arimo umukara, umweru, ubururu ndetse afite n'ibirahure by'umukara.

Inyubako nini cyane ifite amagorofa ageze muri atandatu hejuru yayo hari agaseke kanini gakoze mu byuma gafite amabara y'umuhondo ndetse n'ay'umukara kandi hari n'ikinyabiziga gisa umukara.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, rikorera ahantu mu nyubako ifite amagorofa atatu, rikaba rikorera mu ruhande rwo hasi. Iyi nzu rikoreramo, ifite amabara y'umweru, umuhondo nicyatsi.

Icyapa cyerekana ahantu bakata imfunguzo, hari abantu bari kuhaca batandukanye bambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umukara harimo n'undi ufite inkweto mu kuboko.

Aha hantu bigaragara ko hari imiturire ya kijyambere, kuko hari imyubakire y'amagorofa gusa, hari umuhanda w'igitaka uri kugendwamo n'umugabo wambaye imyambaro y'umukara n'ubururu, harimo n'ikinyabiziga imbere yacyo hahagaze umugabo wambaye imyambaro y'umweru n'umukara.

Inyubako nziza igezweho y'igorofa, ifite uturindabasazi dukoze mu byuma tw'umukara ndetse kandi ifite n'uruzitiro rwiza rwubatse neza rufite igipangu cy'umukara ikaba ifite n'andi mabara meza y'mweru ndetse n'ay'icyatsi.

Ibiti byiza birebire n'ibindi bigufi bikikije umuhanda w'umukara kumpande yawo hari amabara y'umweru n'umukara agiye akurikirana.

Inzu ifite amagorofa agiye atandukanye, hariho ibyapa byamamaza ibikorwa bihakorerwa, iyi nzu kandi ikaba ifite uturindabasazi dukoze mu byuma bifite ibara risa n'ivu.

Umuhanda w'umukara urimo ibimenyetso by'aho abanyamaguru bambukira, harimo n'ipikipiki isa umutuku, umuhondo n'umukara, harimo kandi n'ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwite.

Umuhanda w'umukara, urimo ibirango byaho abanyamaguru bagomba kwambukira, harimo nipikipiki kandi ifite ikiranga cyanditseho R na H byandikishijwe umutuku, byanditse kuri icyo kiranga gifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda w'umukara ucuramye, urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange, gifite amabara y'umweru n'ubururu n'umukara, kiri guca kandi munsi y'ikiraro, inyuma yacyo hari umunyonzi.

Umuhanda w'umukara urimo ibyatsi ndetse n'imirongo y'umweru n'umukara, hari n'ikiraro gicanyeho amatara harimo n'ipikipiki itwaye abantu...

Umuhanda w'umukara uriho ibimenyetso by'abanyamaguru bagomba kwambukira kandi ku mpande hari uturindadanbasazi dufite amabara y'ifeza, munsi harimo n'ikiraro gifite ibyobo binini bibiri amazi acamo.

Umuhanda w'umukara urimo amapikipiki abiri afite amabara y'umukara n'umutuku hariho n'abayatwaye bambaye ingofero z'ubwirinzi zitukura.

Isangano ry'umuhanda w'umukara ucuramye ugaragaramo inzira y'abanyamaguru ndetse n'aho abanyamaguru bagenewe kwambukira, harimo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cy'umukara kigeze aho abanyamaguru bambukira, cyahagaze abanyamaguru barimo baratambuka. Impande yaho hari icyapa kigaragaza umwe mu muyoboro ushinzwe itumanaho mu Rwanda.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ikinyabiziga cyikoreye umuzingo ufite ibara risa n'ikigina kiri munsi y'ikiraro. Hari kandi amapikipiki ahetse abantu.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ikindi kiri imbere yacyo gitwara ibintu kiri mu mabara y'umweru n'umukara hari kandi utumenyetso twerekana ko abanyamaguru ariho bambukira umuhanda w'umukara

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'umunyonzi wambaye umwambaro wa kaki, ndetse n'umukara ahetse n'igikapu cy'umukara mu mugongo harimo n'ikinyabiziga kandi gisa umweru n'umuhondo.

Umuhanda w'umukara ucuramye impande yawo hari agahanda k'abanyamaguru ndetse uwo muhanda w'umukara urimo ikinyabiziga gisa nk'ivu ndetse n'ipikipiki uwo muhanda kandi urimo imikindo unakikijwe n'ibindi biti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Umuhanda w'umukara, urimo amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga, ukaba ku mpande hariho ibyatsi byiza bisa icyatsi, ndetse n'ibiti birebire n'ibigufi.

Umuhanda w'umukara, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru n'ikindi gifite ibara ry'umukara, harimo kandi n'amapikipiki ndetse n'abanyonzi, bamwe bahagaze, abandi bari kugenda.

Umuhanda w'umukara, urimo imirongo iri mu ibara ry'umuhondo, harimo kandi ikinyabiziga cy'umweru n'umukara, ndetse n'umugabo wambaye imyambaro y'ubururu, uri kwambuka kuruhande rw'umuhanda.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigera muri bine, ndetse n'amapikipiki, harimo ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange n'ibindi bitwara imizigo n'ibindi bitwara abantu mu buryo bwihariye.

Umuhanda w'umukara urimo abanyamaguru bari kwambukira ahabugenewe harimo n'amapikipiki abiri ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwite gifite amabara y'umweru n'umuhondo.

Umuhanda w'umukara urimo amatara aranga abanyamaguru igihe bagomba kwambukira. Hariho n'inzira y'abanyamaguru bagomba kwambukiramo ishushanyijwe n'imirongo y'imyeru minini.

Umuhanda w'umukara urimo ibimenyetso by'aho abanyamaguru bambukira, harimo kandi ibinyabiziga bibiri, kimwe gisa nk'ivu, ikindi gisa umukara, harimo n'amapikipiki ariho abantu bambaye ingofero, bamwe bambaye iz'umutuku, abandi iz'umuhondo.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cy'umukara ndetse n'ipikipiki ifite ibiziga bitatu isa ubururu n'indi pikipiki iriho uyitwaye wambaye ingofero y'ubwirinzi y'umutuku, hari n'umugabo uri gutambuka wambaye imyambaro isa n'umweru ndetse n'isa n'igitaka.

Umuhanda w'umukara ucuramye urimo ibinyabiziga ndetse ukikijwe n'ibiti byiza biri mu mabara y'icyatsi ku mpande nanone hari uturindabasazi tugiye dutandukanye.

Umuhanda w'umukara ucuramye urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibintu kiri mu ibara ry'ubururu, harimo kandi n'igi n'ikiranga igihe kiri mu ibara ry'umweru.